Aha ngaha nk'uko bigaragara ni ku muhanda, aha ku muhanda hahuriye abantu benshi cyane, aba bantu bari mu nama bari kumva amabwiriza cyangwa inama bari kubagira.

Aha ngaha urabona ko ari mu nzu mberabyombi ihuriramo abantu benshi baje mu nama, aha bayirimo, bamwe bari kuri mudasobwa, abandi bari kunywa amazi.

Iri ngiri ni itangazo rimenyesha umunsi wa nyuma wo kwishyura umusoro.

Uru nguru ni urupapuro rwanditseho gahunda y'iki kigo yerekana amakuru ugomba kwifashisha, urabanza ukayasoma.

Uru nguru ni urubuga rwa murandasi rwitwa irembo. Rwifashishwa mu gutanga ubufasha umuntu aba akeneye mu gukora.

Uyu guyu ni umunara wifashishwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hahagaze umwana uri kugenda.

Aha ngaha ni mu isantere ikorerwamo ibintu bitandukanye byinshi cyane harimo amapikipiki atwara abagenzi amwe afite abagenzi izindi zirahagaze.

Iyi ngiyi urabona ko ari inzu nini ifite urugo ruyizengurutse mo imbere harimo imodoka ebyiri zihagazemo.

Ahangaha ni mu kigo gikorerwamo imirimo itandukanye. Harimo imodoka zihagazemo by'igihe kinini, kubera ko harimo aho zemerewe guhagarara icyo gihe kinini.

Ibi ngibi ni ibiro by'akarere, bifasha abaturage, aha ngaha ni muri korodori, hicayemo abantu bategereje ko babafasha.

Iki kigo nderabuzima ni icya Kabusunzu mu mujyi wa Kigali, ahitwa mu Nyakabanda. Iki kigo nderabuzima gifasha abantu baje kwivuza uburwayi butandukanye, kikaba kiri ku muhanda hafi.

Aha ngaha ni ku bitaro bya Kacyiru nkuko icyapa kiri hariya kibigaragaza, mo imbere mu gipangu harimo ubusitani n'inzu zivurirwamo abarwayi banatangamo ubundi bufasha butandukanye.

Ahangaha hahagaze abagororwa baje kuburana, ku ntebe hicaye abababuranisha, inyuma yaho hagaze n'imodoka.

Uyu nguyu ni umucamanza uri kurahirira inshingano ze nshyashya. Aha ari kuzirahirira ni mu nzu mberabyombi yateganyirijwemo kubera inama n'iyindi mihango igendanye na yo.

Aha ni mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Aba ni abagororwa babiri baje kumva ibyaha bari gushinjwa, bahagaze imbere y'abashinjacyaha bagiye kubaburanisha.

Aha ngaha ni Nyabugogo abantu bari gutambuka, ni ku muhanda, hahagaze n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, urabona ko ari kumanywa.

Aha ngaha ni mu muhanda munini nyabagendwa, uyu muhanda ukoreshwa abantu bajya mubi bice bitandukanye, aha ngaha harimo ipikipiki n'imodoka biri kugenda.

Aha ngaha nk'uko bigaragara, hahagaze abagabo babiri, inyuma yabo hari n'umugore wicaye, aba bagabo, urabona ko bari guhererekanya ububasha, mu bijyanye n'ubuyobozi.

Aha ngaha ikigaragara ni ikiganza cy'umuntu. Iki kiganza nyiracyo urabona ko afite ya miti basiga abantu bavuye mu matora.

Aha ni ahantu imodoka zihagarara mu buryo bw'igihe kirekire, zitegereje abagenzi zitwara ngo zibajyane ahandi. Iyi modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri kugaragara hano zihagarara.

Ahangaha urabona ko ari mu rusisiro mu muhanda. Hari ipikipiki itwaye umukobwa uteruye igikarito n'imodoka iriho igenda n'izindi pikipiki zihagaze.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahitwa Nyabugogo, ahantu imodoka zihagarara igihe cy'umwanya munini, zitegereje abagenzi zigomba gutwara, aha hahagazemo imodoka nini cyane zitwara abantu mu buryo bwa rusange, n'izindi ntoya zitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa ahazwi nko mu rusisiro, hahagazemo imodoka n'abantu, harimo n'abandi bari kugenda.

Aha ni mu mujyi wa Kigali ahitwa i Nyamirambo, mu Karere ka Nyarugenge, aha ni ku muhanda waho, hari aho moto zihagarara igihe kinini zitegereje abagenzi, zirahahagaze ari ebyiri n'indi imwe iri kugenda mu muhanda.

Aha ni mu Mujyi wa Kigali, neza neza hejuru ahagana rwagati. Hari abana bari gutemmberera ku magari, hahagazemo n'abandi bantu baje kuruhuka kuko aha ni ahantu ho kuruhukira.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa, ukoreshwa n'imodoka n'abantu. Uyu muhanda uriho icyapa kiyobora ahantu runaka.

Aha ngaha ikigaragara cyo ni ahantu winjira winjiriye mu gihugu nk'uko bigaragara ku cyapa, hariho n'umunyamahanga uri kuhifotoreza nk'uko bigaragara.

Iyi ngiyi ni inzu nini cyane y'amagorofa ageretse. Iyi nzu iri mu mujyi. Ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ifite n'ahantu imodoka zihagarara.

Aha ngaha ni mu muhanda munini cyane nyabagendwa, uyu muhanda uriho uragendamo amapikipiki n'imodoka biri kugenda ahantu runaka.

Uyu muhanda ni umuhanda mugari nyabagendwa, uva mu Mujyi wa Kigali werekeza Kimironko, i Remera no mu bice by'Iburasirazuba.

Aha ngaha ni ku muhanda nyabagendwa. Kuri uyu muhanda nyabagendwa hari n'urusisiro, urabona ko hubatse amazu. Aya mazu akorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye.

Uyu ni umuhanda uca hejuru y'ubundi, uyu muhanda uri kugendwamo n'imodoka, imbere hari icyapa kerekana yuko bibujijwe kuhahagarara. Munsi y'uwo muhanda, uri hejuru y'undi, hari kugendamo abantu, n'amapikipiki yatambutsemo.

Aha ngaha ni mu muhanda nyabagendwa rusange, abantu bakoresha. Hari icyapa cyerekana yuko hafi aho hari ishuri, hari n'ikindi cyerekana yuko abantu bahambukira.